Abagore batanu bicaye mu cyumba barimo baganira ku buryo bwo kwita ku mirire y'abana babo, icyo cyumba kandi kirimo ameza ateretseho impapuro ndetse n'ibikapu.

Abantu bari hagati ya cumi na batanu ndetse na makumyabiri, bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo guhabwa amahugurwa ku buryo bushya bwo kwita ku barwayi.

Umujyanama w'ubuzima ari kugira inama umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, ndetse anamushishikariza kwirinda virusi itera sida.

Icyumba kigari giteraniyemo abantu benshi batandukanye, abana ndetse n'ababyeyi babo, aho baje gupimwa ndetse no guhabwa inkingo ku ndwara y'igituntu.

Umugabo uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, ari gutanga imbwirwaruhame ku baganga ndetse n'ababyeyi baje gukingiza abana babo, kugira ngo bamenye uko bahagaze, inyuma ye hari umunzani wifashishwa bapima ibiro by'abana.

Umutegarugori bari ku ivomero rusange ririho amajerekani menshi, aho umwe ari umwe uri kubavomera abandi bahagaze ku ruhande, ivomero kandi rifite irangi ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kiri gutangirwamo serivisi yo gukingira indwara y'ubushita, kirimo abaganga batatu ndetse n'abantu baje gushaka serivisi yo gukingirwa babiri. Kirimo kandi ameza ndetse n'intebe.

Icyumba kinini cy'inama, kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore, biganjemo abambaye amakoti, imbere yabo kandi hari abantu batandatu, harimo abagore bane ndetse n'abagabo babiri.

Ivomero ririho abantu b'ingeri zose zitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'abana, aho umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka umunani ndetse n'icumi, arimo gupompa amazi, mugenzi we na we arimo kureka yifashishije ijerekani.

Ku ivomero ririho abantu benshi bari hagati y'umunani ndetse n'icumi ndetse n'ibijerekani bitandukanye, harimo ak'arindwi, aka cumi n'atanu ndetse n'umukara.

Abayobozi batanu b'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuzima, bari mu cyumba k'inama kirimo idirisha rirerire kandi rigari ndetse ku meza yabo hateretseho n'amazi yo kunywa.

Umubyeyi ugiye kwivomero ajyanye n'umwana we, ari kumukorera indobo y'icyatsi irimo amazi, aho bari ku mugezi uri ahantu mu gishanga hitaruye, imbere y'aho gatoya hariho inzu isakaje ibyatsi.

Ikirangantego cy'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima, gifite inkoni izengurutsweho n'inzoka iri hagati ku mubumbe w'isi.

Abakozi b'ibitaro bambaye impuzankano zabo, aho bahagaze imbere y'umuryango munini w'ibitaro, barimo bafata ifoto y'urwibutso hamwe n'umushyitsi wari wabasuye.

Abana bari hagati y'icumi na cumi na batanu, bose bateraniye ku mugezi bashaka gukaraba intoki ku ivomero, bigaragara ko ari ikivunge.

Abategarugori batatu bari ku ivomero ririho amajerekani ari hagati y'icumi ndetse na cumi n'atanu, aho umwe muri bo arimo kureka amazi.

Umugabo yikoreje ku mutwe umwana we ijerekani irimo amazi ndetse ifite n'ikirangantego cy'ikigo gishinzwe kwita ndetse no kurengera abana.

Ivomero ririho abana batoya bane ndetse n'undi mukuru umwe, iruhande rw'abo gatoya hari umuhanda uriho ikinyabiziga cy'ibiziga bine.

Abantu bicaye imbere mu cyumba cy'inama bose se bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hariho igitambaro kinini cy'ubururu cyarimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abategarugori batatu bari ku ivomero, umwe arimo kuvoma amazi abandi babiri, barimo gupompa bazamura amazi.

Abaturage bateraniye hamwe aho bari guhabwa imbwirwaruhame n'umuyobozi wabo ubahagarariye, ababwira ku buryo bushya bwo kwita ku buzima cyane cyane ibijyanye no mu mutwe.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano ifite ibara ry'igitaka, aho bari ku ivomero bari kuvoma amazi yo kwifashisha basukura amashuri yabo, bafite indobo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ijerekani.

Icyumba kigari cyagenewe gutangirwamo imbwirwaruhame, kirimo abantu b'ingeri zitandukanye bari kumva ibiganiro, aho imbere y'aho hicaye abantu batandatu abagabo batanu ndetse n'umutegarugori umwe.

Agatanda kagenewe kwanikwaho amasahani nyuma yo kuyoza, kugira ngo bayabike yumutse, kari mu mbuga y'igitaka, aho iruhande rwako hariho insina z' igitoki.

Ikirangantego k'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura mu Rwanda WASAC, kirangwa n'umubumbe w'isi, wiganjemo ibara ry'ubururu hagati harimo amatiyo abiri ndetse n'izuba.

Abanyeshuri bo ku rwunge rw'amashuri abanza, barimo kuvoma amazi bifashishije ibikombe, aho bari kuyakura mu bigega biyakusanya.

Umwana uri hagati y'imyaka umunani ndetse na cumi n'ibiri ari ku ivomero aho arimo gukaraba intoki, iruhande rw'iwe hari ibijerekani bitatu, bibiri bifite ibara ry'umuhondo na kimwe gifite ibara ry'ubururu.

Umukozi wo ku kigo nderabuzima, wambaye ibikoresho by'ubwirinzi bigezweho, arimo gupima umurwayi indwara z'umuvuduko w'amaraso, uwo murwayi kandi nawe yicaye ku ntebe, yambaye agapfukamunwa.

Ivomero riri ahantu mu gasozi, ririho abana batoya batanu ndetse n'umugabo mukuru umwe baje kuvoma bafite amajerekani, ivomero kandi rirubakiye neza.

Abantu bari hagati ya makumyabiri na makumyabiri na batanu, yiganjemo abanyabuzima bambaye impuzankano y'ubururu hejuru, bari kumwe n'abari baje kubaha amahugurwa, aho bahagaze kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso.

Ivomero ririho abantu benshi bagiye batandukanye abagabo, abagore ndetse n'abana baje kuvoma amazi, hari umugore uri gupompa amazi kugira ngo azamuke, mu gihe umwana we afashe ijerekani ari kureka amazi.

Ivomero riri ahantu hitaruye h'igishanga, ririho abantu batatu baje kuvoma ndetse n'undi wa kane uri kubafasha mu kuzamura amazi.

Inshinge zifashishwa mu gukingira indwara y'imbasa, ziri mu gakarito kabugenewe, aho iruhande rwaho hateretseho agacupa karimo umuti.

Abayobozi babiri b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bari gutanga ingirwaruhame babwira abantu, ndetse banabashishikariza gukoresha uburyo bushoboka kugira ngo bahagarike icyorezo cyateye isi.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, kiri gutangirwamo imbwirwaruhame irimo gutangwa n'umugabo wambaye ikoti, ufite igikoresho gisakaza amajwi.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo itandatu n'itanu, ari ku ivomero ryubakiye ahitaruye ku musozi hejuru, aho arimo kuvoma amazi mu ijerekani.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya cumi n'itanu ndetse na makumyabiri, asutamye imbere y'ivomero, aho ari kureka amazi iteretse mu mabase.

Ikirangantego cy'ikigo gishinzwe kwita ku buzima bwo mu kirere, kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi; kizengurutse ikizeru zishushanyije isi.

Abakozi bo ku kigo nderabuzima bari hagati ya mirongo itanu ndetse na mirongo inani, bambaye impuzangano bifashisha mu kazi kabo, ndetse n'amakarita y'akazi, aho bishimiye umuyobozi wabo uri kubaha imbwirwaruhame.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'itanu ari kuri kandagira ukarabe, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo gutangirwamo serivisi zo gukingira, icyorezo cya Korona virusi, kirimo abaganga batatu, ndetse n'umurwayi umwe w'umugabo ugeze mu zabukuru waje kwikingiza, abantu bose barimo bambaye udupfukamunwa.

Umudamu wambaye ibikoresho by'ubwirinzi, twavugamo nk'ijire ndetse n'agapfukamunwa, afite igikoresho cyifashishwa mu gupima abarwayi indwara ya corona virus, aho ari mu muhanda urimo abandi bantu bagiye batandukanye arimo gupima.

Abantu bari hagati ya cumi na batanu na mirongo itatu b'abategarugori, bateraniye mu cyumba kirimo ameza akoze mu biti ndetse icyo cyumba inkuta zacyo zishushanyijeho amashusho atandukanye nk'inzu abantu imiti.

Ivomero ririho abantu bari hagati ya cumi na batanu na mirongo itatu bamwe bafite indobo abandi bafite ibijerekani bifashisha bareka amazi.

Ikinyabiziga cy'ibiziga bine, kifashishwa mu gutwara abarwayi kwa muganga, kizwi nk'imbangukiragutabara, kiri ahantu hateraniye abantu benshi baje mu nama.

Abana batatu, bafite imyaka hagati y'itandatu ndetse n'icumi, bari gukaraba intoki ku mazi ari kuva ku itiro yamenetse, itiyo kandi ifashe ku rukuta. Inyuma yaho hari igiti kirekire.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ingofero y'ubururu, ari gukorera ijerekani umwana uri hagati y'imyaka itatu ndetse na cumi n'itanu, imbere yabo hari umuntu urimo kubafotora, iruhande rwabo kandi hari n'abandi bantu batatu.

Umugabo uri hagati y'imyaka mirongo itatu ndetse mirongo ine n'itanu ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuri kandagirukarabe nyuma yo kuva ku musarane.

Ahantu h'ikibaya hitaruye, hari inzu isakaje amabati y'umutuku, hari kandi inyubako ikozwe mu kizeru, izengurutswe n'ibyuma bituma abayiriho badahanuka hasi.

Umubyeyi akikiye umwana mu biganza byiwe, aho ari guhabwa umuti na muganga, bari mu cyumba gifite urugi rufite ibara ry'icyatsi, ndetse n'iserire irimo urufunguzo.

Ibipimo byafashwe kugira ngo hagaragazwe ijanisha ry'aho uburingani bugeze. Mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, byari biri kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana, bibiri na cumi n'icyenda, mirongo irindwi ku ijana, bibiri na makumyabiri, mirongo irindwi na gatandatu ku ijana, biri na makumyabiri na rimwe, mirongo irindwi n'icyenda ku ijana.

Ikirangantego cy'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana UNICEF, kiriho umwana usigatiwe n'umubyeyi we, bari mu ruziga rushushanya umubumbe w'isi.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, bari hagati y'umunani ndetse na cumi na batatu bari imbere, aho bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'inama yari yabateranije hamwe.

Ivomero ryubakiye neza ryegereye umuhanda abanyeshuri bacaho bajya ku ishuri, hariho umwana muto uri mu cyiciro cy'imyaka itandatu ndetse n'umunani waje kuvoma amazi.

Umwana muto, uri mu kigero cy'imyaka itanu, ndetse n'umunani, ari gukaraba intoki ku ivomero, aho hasi hari ibase irimo kujyamo amazi amaze gukaraba.

Ku ivomero hariho abana babiri bafite amajerekani, umuhungu n'umukobwa aho umuhungu arimo gupompa azamura amazi, umukobwa nawe akareka ijerekani kugira ngo abone amazi, ivomo kandi riri ahantu h'ikibaya.

Abana batatu bari mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi ndetse na cumi n'itanu, bari kuvoma amazi mu kiyaga bayadaha bifashishije indobo.

Inzu itangirwamo serivisi zo kwita ku babana n'ubumuga bwo mu mutwe, imbere yaho hari ubusitani bugari burimo ibiti birebire by'amoko atandukanye. Ifite kandi amadirishya akozwe mu byuma ndetse n'ibirahuri.

Umutegarugori agiye kwa muganga aho arimo gupimwa indwara zitandukanye bari ku meza y'igitambaro cy'ibara ry'umuhondo itetseho kandi n'icupa ry'amazi.

Umusore ufite ikibazo cyo mu mutwe yicaye mu cyumba cya wenyine ahantu hari umwanda mwinshi cyane, aho yambaye ubusa.

Umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo ine n'itanu, ahetse mu mugongo we umwana, yicaye ku ntebe, iruhande rwe kandi hari undi mwana uhagaze, aho arimo kubatekera igikoma.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana we mutoya bavuye kwa muganga, aho umubyeyi yambaye umupira w'umweru ndetse n'umwana we akaba yambaye umupira w'umweru uciyemo uturonko tw'irindi bara.

Umutegarugori uri kigero cy'imyaka mirongo itandatu na mirongo irindwi n'itanu, yiteze igitambaro kirimo ibara ry'icyatsi ndetse afite n'imitako ndetse n'imiringa ku mutwe no mu ijosi, aho yambaye ubusa hejuru.

Umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, yambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara isa nabi, yicaye mu muhanda, iruhande rwe hari amashashi ndetse n'indi myanda.

Abantu bari hagati y'icumi na cumi na batanu bahagaze hamwe, aho bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'inama yari yabahuje.

Ikirango kiriho ishusho y'umuntu, kigaragaza umunsi Mpuzamahanga wahariwe kwita ku menyo, uba ku itariki icumi ugushyingo.

Umugabo ugeze mu zabukuru, uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu ndetse na mirongo irindwi n'itanu, akutse amenyo y'imbere, afite umusatsi udasokoje, yambaye ishati y'ubururu ndetse yiteze n'igitambaro cy'umuhondo.

Ikirangantego cy'umushinga Wihogora, wagenewe kwita ku bafite ubumuga bwo mu mutwe, gikoze mu ruzeru rusigatiwe n'amaboko y'umuntu.

Umugabo ubana n'ikibazo cyo mu mutwe, yicaye mu muhanda, yambaye inshwabari, aho yifashe mapfubyi, iruhande rwe hariho ibikarito, ikindi kandi asigatiye n'amashashi mu ntoki z'iwe.

Abantu bari hagati ya batanu ndetse na barindwi, bahagaze ahantu hasakaye neza n'ihema, aho imbere y'abo hariho ameza ariho ibitambaro by'umukara.

Umutegarugori ufite umusatsi mwinshi w'ibisuko yifashe mu mutwe aho ari gutekereza ku buryo agomba gukemura ibibazo by'umuryango afite.

Umusore uri mu kigero imyaka hagati ya makumyabiri na makumyabiri n'itanu, arimo ararira nyuma yo gutekereza ibyo yanyuzemo bitoroshye.

Abantu bari hagati ya mirongo itatu ndetse na mirongo itandatu, bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo kugirana ibiganiro, ku ngingo zitandukanye, zishinzwe guteza imbere imibereho myiza y'abaturage.

Umugabo uri hagati y'imyaka mirongo ine n'itanu na mirongo itanu n'itanu, yicaye hasi rwagati mu baturage, yambaye amapingu aho agiye gufungwa.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu n'ibiri, wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, yegamiye ku rukuta ari kureba mu kirere.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe wambaye inshwabari udaheruka kogosha umusatsi, ari kuramukanya n'ushinzwe kumwitaho wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abayobozi b'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC, bari gutanga imbwirwaruhame ijyanye no kwita ku buzima bw'abana bakiri bato ndetse n'ingimbi.

Icyumba kinini gikorerwamo imbwirwaruhame, kicayemo abagabo babiri ndetse n'abagore batatu, aho imbere yabo ari meza iriho igitambaro cy'umweru. Bari gutanga ingirwabuhame ijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bigezweho, byifashishwa kwa muganga bavura indwara z'amenyo zitandukanye ndetse banoza amenyo bavura n'indwara zo mu kanwa.

Umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa, ari guvura amenyo umwana waje kwivuza, aho aryamye ku gitanda cyabugenewe.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amakaro hasi, kirimo kandi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane indwara z'imitsi.

Imigaragarire ndetse n'imiterere y'amenyo mu kanwa, byagaragajwe n'ibyuma byo kwa muganga bigezweho kandi byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka itatu ndetse n'itanu, yicaye ku ntebe, mu ntoki ze kandi harimo uburoso bwifashishwa bwoza amenyo. Yadukojeje mu kanwa.

Umugabo uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, arimo araseka agaragaza ubwiza bw'amenyo ye, afite amenyo meza akeye ikindi kandi yambaye agapira gasa nk'umukara.

Umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, afashe akadodo gakoze muri palasitike, ari kukifashisha yoza amenyo.

Umugabo uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, ari kwa muganga aho yaje kwivuza amenyo, ari kwitabwaho na muganga wambaye ibikoresho bimurinda kwangirika kw'intoki.

Umuganga ukorera ku kigo nderabuzima, yicaye ku ntebe yifashe mu ntoki, aho ari mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi indwara zitandukanye, iki cyumba kandi gifite n'idirishya ririho ibitambaro bishinzwe kugabanya urumuri.

Umurwayi uri kwa muganga, wambaye agapira karimo uturongo tw'umukara, ufite n'imisatsi isutse, agiye kuvurwa na muganga indwara z'amenyo. Muganga yambaye agapfukamunwa ndetse n'ibimurinda kwangirika kw'intoki.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi ndetse na cumi n'ibiri, ari kwa muganga aho ari guhabwa serivise yo gukurwa iryinyo.

Umutegarugori uri mu kigero hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu ndetse na mirongo itatu, ari koza amenyo, arimo kwireba mu ndorerwamo. Yambaye ikanzu y'umweru.

Icyumba cyo ku ivuriro, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kandi bigezweho, byifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo ndetse n'indwara zo mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma ndetse no gupima indwara zitandukanye, kirimo kandi na mudasobwa ishinzwe kubika amakuru aba yavuye mu isuzuma.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri, makumyabiri n'itanu, arimo koza amenyo yifashishije uburuso bwabugenewe, aho ari kubikora ari kwirebera mu ndorerwamo.

Umuganga uvura amenyo arimo gukura iryinyo umusore, uri hagati y'imyaka cumi n'itanu ndetse na makumyabiri waje kwifuza amenyo.

Ushinzwe kwita ku basheshe akanguhe afashe umwe mu bo ashinzwe kwitaho ku rutugu w'umugabo ugeze mu zabukuru, aho agiye kumufasha kumugeza ku musarani.

Icyumba cy'ikigo gishinzwe gutangirwamo serivisi zo kwita ku bageze mu za bukuru, kirimo umusaza ugeze mu za bukuru wambaye agapira karifite ibara ry'umuhondo aho ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho bafite umugozi w'umuhondo barimo gukurura, icyo cyumba kandi kirimo n'utubati.

Abantu bari mu butembere, bari ahantu h'ikinani, hitaruye, bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi, bamwe baganira, bishimye, baseka.

Umubyeyi ageze mu za bukuru, ari kumwe n'umwana we mutoya uri hagati y'imyaka itatu ndetse n'itanu, aho arimo kumurembera. Uwo mwana kandi afite igipupe mu ntoki ze.

Umubyeyi uri hagati y'imyaka mirongo ine na mirongo ine n'itanu, ari kumwe n'umwana we mutoya, bose bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru hejuru bicaye ku meza, aho ari kumufasha kubara udupapuro duteretse ku meza.

Abasaza bari mu zabukuru, bicaye ku meza akozwe mu biti, bari mu cyumba kinini gifite amadirishya maremare ndetse n'ibitambaro birinda urumuri rwinshi kwinjira mu nzu.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru, hagati y'imyaka mirongo itandatu na mirongo irindwi n'itanu, ari guhabwa imiti na muganga, aho afite ikirahuri kirimo amazi yo kunywesha iyo miti.

Abashakanye bageze mu zabukuru, umugabo n'umugore, bari hagati y'imyaka mirongo itandatu ndetse na mirongo irindwi n'itanu, bari kumwebafatanya ku rutugu, aho umugabo ari gusoma umugore we ku itama.

Umubyeyi ugeze mu zabukuru, yicaye mu kagare arimo gusunikwa n'umwana we baseka, bari ahantu mu busitani, inyuma yabo hariho inzu nini ifite ibirahuri birebire ndetse n'ubusitani bugari.

Umubyeyi w'umumama ugeze mu za bukuru, ari kumwe n'umukobwa uri hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane ikangura imitsi yo mu kaboko.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, ufite imvi ku mutwe, ari gukora imyitozo ngororamubiri hasi ku mukeka kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'isukari nyinshi mu mubiri.

Icyumba kirimo umutegarugori ndetse n'umugabo bageze mu zabukuru, aho imbere yabo hari ameza ateretseho imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zikunze gufata cyane cyane abageze mu zabukuru.

Umugore uri hagati y'imyaka mirongo itandatu na mirongo irindwi yicaye ku meza, yambaye ishati y'umuhondo ndetse n'amataratara, imbere ye kandi hari icupa rya purasitike rifite ibara ry'umweru ryagenewe kubikwamo imiti, mu ntoki ze afitemo irindi cupa, arimo gufata imiti.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku ugeze mu zabukuru, uri hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo irindwi, ari kwereka umudamu ufite mudasobwa imbere ye, uko umuti anywa witwa.

Abantu babiri; umugabo ugeze mu za bukuru ndetse n'umugore, bicaye ku meza aho umugabo ari kwereka umugore uburyo bushya bw'ikoranabuhanga bugezweho bwifashishwa mu kugura ibintu bigiye bitandukanye, bari mu cyumba kandi kirimo utubati ndetse n'intebe.

Inzu ngari yagenewe gutangirwamo imbwirwaruhame, irimo abanyeshuri bari hagati y'ijana ndetse n'ijana na mirongo itanu. Bicaye ku ntebe z'umweru zikoze muri plastique. Bambaye impuzankano y'umweru hejuru, aho imbere yabo hari urimo kubaha imbwirwaruhame.

Bahagaze imbere y'icyapa kiriho ibirango by'ibyo bakora, bafite kandi n'amakarita yabo y'akazi. Aho barimo bamamaza ibikorwa byabo.

Icyapa cyamamaza umunsi mpuzamahanga, wo kwita ku bidukikije ku isi hose, uzaba ku itariki makumyabiri n'itandatu Ugushyingo bibiri na makumyabiri na kane.

Umugabo wambaye ikoti arimo gutanga imbwirwaruhame, imbere ye hariho abantu bane bicaye ku meza y'uruzeru, iriho igitambara cy'umweru ndetse na mudasobwa.

Icyapa kiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru kiriho umuganga uri gukingira umwana, kiri kwamamaza gahunda ya Leta yo gukingira abana izaba ku wa cumi na kane z'ukwa kane, bibiri na makumya na kane.

Abagabo babiri bafite impamyabushobozi mu ntoki zabo, bambaye amakoti, bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo guhabwa amahugurwa.

Abategarugori bari mu cyumba kwa muganga batatu, aho umwe arimo guterwa urushinge, ikindi kandi bose bambaye udupfukamunwa.

Umukambwe wo mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu ndetse na mirongo irindwi, yicaye ku ntebe aho ari gusuzumwa n'umuganga indwara zo mu kanwa, muganga yambaye ibikoresho by'ubwirinzi, iruhande rwabo hari n'abandi bantu benshi bategereje guhabwa iyo serivisi.

Ikirangantego cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC, kiri mu mabara atandukanye ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Icyumba kinini cy'inama kirimo abategarugori batandukanye, bicaye imbere bari gutanga imbwirwaruhame ku bitabiriye iyo nama. Bari kubabwira uburyo umugore agomba kwiteza imbere no kwirinda indwara ya virusi isitera sida.

Mu cyumba K'inama hari gutangirwa imbwirwaruhame ishishikariza abantu kandi ikababwira ingamba nshya zo kurwanya ndetse no gukumira icyorezo cya maribaga. iyi nama kandi yabereye i kigali ku wa makumyabiri ugushyingo bibiri na makumyabiri na kane.

Icyumba cyo kwa muganga gishinzwe kwakira abarwayi kirimo abantu baje kwipimisha ndetse no kwisuzumisha kugira ngo barebe uko bahagaze, aho abaganga bari kubapima bambaye ibikoresho by'ubwirinzi.

Ikirango kigizwe n'ibara ry'icyatsi ndetse n'umubare gatatu n'igishushanyo cy'umutima, kigaragaza imibereho myiza ya muntu.

Inyandiko igaragaza uburyo bwo kwita ku mwana mu minsi ye igihumbi ya mbere, mu rwego rwo kumurinda indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse no kugwingira.

Icyumba cyo ku kigo nderabuzima kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bigezweho byifashishwa mu buvuzi biteretse ku meza yabugenewe, icyo cyumba kandi gifite n'amadirishya akozwe mu byuma ndetse n'ibirahure.

Abaganga batatu, barimo kuganiriza abantu mu cyumba cy'inama, bari hagati ya batatu na batandatu, babaswe n'ibiyobyabwenge, bababwira uko babyirinda ndetse bakanabicikaho burundu.

Inzu ndende igeretse yubatswe mu birarahuri ndetse iteye n'amarangi, iri imbere y'icyapa cyanditse umubare cumi na kabiri kiri mu ibura ry'umweru ndetse n'umukara.

Ahantu hagenewe guparika ibinyabiziga, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara ushinzwe kuhagenzura, hakikijwe kandi n'inzu zigeretse zifite amarangi y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwakira abarwayi ,kirimo ibitanda. Gifite kandi amadirishya maremare, yinjiza urumuri ndetse n'umwuka uhagije mu nzu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, kirimo kandi n'utubati turimo ibikoresho bigezweho byifashishwa hapimwa, hanafatwa ibizamini ku ndwara zitandukanye. Icyo cyumba gifite ibara ry'umweru.

Ikigo nderabuzima cya Nyaruyenzi kigeretse rimwe, gifite kandi irangi ry'umuhondo uhiye ndetse n'umweru, kiriho abaturage baje guhabwa serivisi z'ubuzima.

Umurwayi ari mu cyumba na muganga aho aryamye ku gitanda yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero, ari gupimwa na muganga indwara zitandukanye harimo umuvuduko w'amaraso.

Abantu batanu bahagaze imbere y'ahatangirwa ibizamini by'ubuzima, aho barimo bafata ifoto y'urwibutso nyuma yuko bari bavuye kureba uburyo bushya bwo gukoresha, basuzuma ndetse banapima indwara zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwakira abarwayi barembye, kirimo igitanda gifite amapine, kirimo kandi ahagenewe gukarabirwa intoki ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo ibitanda byabugenewe mu kwakira abarwayi. Kirimo kandi n'utubati kuri buri gitanda bikoze byose mu byuma. Gifite inkuta ziriho amarangi y'umweru ndetse n'amadirisha maremare atanga urumuri ruhagije muri icyo cyumba.

Inzu itangirwamo serivisi zo kwita ku babyeyi, ifite amabati y'ubururu ndetse n'amadirishya y'umweru, akozwe mu byuma n'ibirahuri, yubakishijwe kandi amatafari ahiye.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bigiye bitandukanye, harimo nk'ibyifashishwa mu gukora imyitozo inanura amaguru, hari iyongera igituza ndetse n'ibindi.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse no gusuzuma abarwayi imiterere y'umubiri wabo, kirimo kandi n'intebe zabugenewe, gifite inkuta zisize amarangi y'umweru.

Inzu itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima, igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo haparitse ibinyabiziga by'ibiziga bine.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho aho abinjira n'abasohoka banyura, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, twavugamo igitanda ndetse n'amashuka.

Icyumba cyo ku bitaro cyagenewe kuvurirwamo abana, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, akameza ndetse n'aho bakarabira intoki.

Inzu itangirwamo serivisi zo kugurisha amavuta avura indwara z'uruhu, ifite icyapa kirimo ibara ry'icyatsi ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Icyumba cyo ku ivuriro kibamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kandi bigezweho, gifite umuryango ukozwe mu birahuri kirimo ameza, intebe ndetse n'ibindi.

Inzira yahariwe kunyuramo abantu kwa muganga, irimo imiryango itandukanye ikozwe mu biti, ifite parafo ifitemo amabara yo ubwayo.

Kwa muganga ahari umwanya wisanzuye, ufite inzugi z'ibiti ndetse inkuta zaho ziganjemo cyane cyane ibara ry'umweru, ifite kandi n'igisenge cy'umweru.

Umwanya wagenewe kunyurwaho n'abantu kwa muganga, urimo ibyapa bitandukanye, bigaragaza ibyumba, aho biherereye ndetse n'icyo bikoreshwa.

Kwa muganga ahatangirwa serivise zitandukanye zo kwita ndetse no kuvura abarwayi, hubakishijwe amabuye aconze neza, afite kandi n'umuryango mugari ukozwe mu birahuri ndetse n'ibyuma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa hasuzumwa abarwayi uko bahagaze, birimo ndetse n'utubati n'inkuta zifite irangi ry'icyatsi cyerurutse.

Inzu itangirwamo serivise z'ububyaza, ifite amabati y'ubururu, yubatse amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umweru ndetse n'inzugi z'umweru.

Umubare w'abantu, uri hagati ya cumi na batanu ndetse na makumyabiri na batanu, bari mu ngeri zitandukanye: abana, abagore ndetse n'abagabo, bicaye aho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Umwana mu kigero cy'imyaka umunani ndetse n'icumi, ari kwa muganga aho yajyanye na mukuru we aho bari kubakingira indwara y'imbasa, ari gushinyiriza cyane ari gukingirwa na muganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse.

Inzu yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi ku binyabuzima, igerete rimwe, ifite amadirisha maremare akozwe mu byuma ndetse n'ibirahuri, imbere yaho kandi hariho ubusitani buriho indabyo ngufi.

Amarembo magari y'ivuriro rya Nyanza, afite urugi rukozwe mu byuma bisize irangi ry'ubururu ndetse byanditseho n'inyuguti ya H, iruhande rw'urwo rugi hariho ibyapa bigaragaza serivisi zitangirwa ku ivuriro.

Umukozi wo kwa muganga arimo kugenda agana aho akorera; ndetse hari n'abandi bakozi bandi, barimo abashinzwe gutanga imiti ndetse n'izindi serivisi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byifashishwa mu gufata ibipimo by'indwara, harimo nka mudasobwa harimo kandi intebe zabugenewe.

Icyumba kigari cyo ku kigo nderabuzima kirimo ibikoresho bitandukanye, aha twavugamo nk'ibitanda, utubati, inzitiramibu n'ibindi.

Inzu itangirwamo serivisi zo kwita ku babyeyi, ifite inzugi n'amadirishya bikozwe mu byuma, ifite kandi n'ibirahure, iriho abagabo babiri ndetse n'abagore batatu bari kuganira ku buryo bwo kwita ku barwayi.

Umukozi wo kwa muganga utanga serivisi zo kuvura abarwayi, yambaye agapfukamunwa, yicaye ku meza arimo gukingira ndetse no gufata ibipimo umunyeshuri waje kwivuza yicaye ku ntebe.

Ivuriro ryagenewe kuvura ababana n'ubumuga bwo mu mutwe, rigizwe n'amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'umukara, imbere yawo hari ubusitani. Ifite kandi amadirishya y'umweru.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima ishinzwe gutanga imiti ku barwayi. Ifite icyapa kiyiranga ndetse imbere yayo hari ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri. Hahagaze kandi umugabo wambaye umupira w'umweru.

Inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ku ivuriro hatangirwa serivise zitandukanye hafite igikurura umwuka mwiza mu nzu ndetse n'igisenge gifite amarange y'umuhondo ndetse n'umutuku, kirimo kandi intebe zigezweho ndetse n'ameza.

Inzu ya MUREKATETE Denise, itangirwo serivisi yo kugurisha imiti ikorana n'ubwisungane mu kwivuza bugiye butandukanye, hano mu Rwanda.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo n'iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, harimo igitanda gifite kandi inkuta z'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo, ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa, mu gupima abarwayi, Kirimo kandi, utubati, ndetse n'intebe.

Imiti ipfunyitse mu mashashi yabugenewe, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi kandi zitandukanye, harimo nk'ibicurane, ibiheri mu maso ndetse n'izindi.

Ibitaro bifite inzugi z'ibiti ndetse n'amadirisha maremare ari mu ibara ry'ubururu n'icyapa kiyaranga hejuru y'iryo dirishya, iruhande rwaho hariho ijisho isakaje kandi amabati y'ubururu.

Ahantu hari icyapa kiranga ahatangirwa serivise yo kwita ku babaswe n'ibiyobyabwenge, gifite ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yanditse mu ibura ry'umukara.

Inzu ifite ubusitani bunini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ifite kandi n'amadirishya arimo ibirahure birebire, imbere yaho haparitse ibinyabiziga, ibinyabiziga bine, bitatu.

Inzu itangirwamo serivisi zo kwita ku babyeyi, iherereye mu bice by'icyaro isize amarange y'umweru, ifite kandi n'amabati y'ubururu.

Icyumba kigari gifite inkuta zisize amabara y'umweru, kirimo abantu b'ingeri zose bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu na gatanu, batonze umuronko bari kwiyandikisha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kandi bigezweho, byifashishwa mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara zikunze gufata cyane cyane umubiri w'umuntu.

Ivuriro ritangirwamo serivisi zitandukanye, zita ku barwayi, abantu ndetse n'amatungo, rifite amadirisha maremare ndetse n'ubusitani imbere yaryo.

Abaganga basuye ku kigo cy'amashuri, aho barimo gusobanurira abanyeshuri uburyo bwiza bwo koza amenyo, kugira ngo birinde indwara zifata mu kanwa ndetse n'amenyo muri rusange.

Umwanya wo kwa muganga, aho abarwayi bicara bategereje kwakirwa n'abaganga, ufite inkuta zishushanyijeho ijisho ry'umuntu. Harimo kandi n'ibipirizo by'amoko atandukanye, hari ibifite amabara y'ubururu ndetse n'ibifite amabara y'umweru.

Inzu ikoreramo ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya kanseri mu Rwanda, ifite ibirangantego biri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, imbere y'icyo kirangantego hari ubusitani burimo indabyo ndetse n'igicuma giteyemo ururabo.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, ari ahantu ku mazi aho arimo kuyitegereza azamuye amaboko hejuru, yambaye hejuru isutiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuganga arimo gupima umwana indwara zo mu kanwa, mu cyumba harimo abandi bantu batatu, harimo n'umubyeyi waje aherekeje uwo mwana, ndetse n'abandi babiri bambaye udupfukamunwa ak'umukara nak'ubururu.

Umuntu ufite mu ntoki ze igikoresho cyabugenewe mu kunanura imitsi cyane cyane ku maboko ndetse no ku maguru, icyo gikoresho kandi gifite ibara ry'umukara.

Ameza ariho ibikoresho bitandukanye byifashishwa hakorwa siporo, hariho kandi n'imbuto zitandukanye amagi, urusenda ndetse n'ubunyobwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu kuvura imiterere ndetse n'imikorere y'ibice bitandukanye by'umubiri, wa muntu.

Umugabo ufite ibigango, wakoze imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'icyatsi, arimo kunywa amazi meza yifashishije icupa rya palasitike ryabugenewe.

Umugabo wambaye agapira k'umukara arimo gukurura n'amaboko yombi umushumi uri mu ibara ry'umuhondo, aho iruhande rw'iwe hariho umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse n'ikarita imuranga.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumya n'itanu, mirongo itatu, yicaye mu muhanda yambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umukara n'agapira k'umuhondo, ari gukora imyitozo ngororamubiri aho afashe amaboko abiri ari kuyakoza ku kaguru.

Umutegarugori ukora ku kigo nderabuzima, yambaye impuzankano y'akazi ndetse n'ibikoresho by'ubwirinzi, nk'agapfukawa, yambaye kandi mu ijosi igikoresho cyifashishwa mu gupima uko umutima utera, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'ibitabo.

Icyapa gishishikariza abantu kwitabira siporo, cyerekana umugabo ufashe ku itako ryiwe, wambaye ipantaro y'igice ifite ibara ry'umukara.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo akajagari k'ibikoresho, gihagazemo kandi umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi.

Ushinzwe kwita ku bakinnyi wambaye isengeri y'akazi, ari gusohora umukinnyi mu kibuga kugira ngo ajye guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Umugabo ni mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo ine, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye imyenda y'umukara ndetse n'ikweto z'umukara, imbere ye hariho uri ku mutoza, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, imyitozo ari kuyikorera mu kibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Amaguru y'umugabo wambaye ikabutura y'umukara afashe agatambaro kari mu ishashi gafite ibara ry'ubururu agashyize ku ivi.

Umugabo uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu n'itanu, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije umukeka.

Umusore wambaye agapira k'umukara, ufite kandi n'igitambaro cy'umweru mu ijosi y'iwe, arimo kunywa amazi yifashishije icupa rya plastic ryabugenewe.

Akadege gato kagezweho, kifashishwa mu gukwirakwiza amaraso aho akenewe, kuyavana hamwe kayajyana ahandi, ni bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, busigaye bukoreshwa mu buvuzi.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu ndetse na cumi n'umunani, yicaye ku buriri aho ari kugaragaza igikomere yagize ku ivi, gipfutse neza n'ibikoresho byo kwa muganga.

Akaboko k'umuntu gateretseho agatambaro ahagana ku nkokora, hejuru y'ako gatambaro hari ikiganza kiriho kugatsindagira, ako gatambaro kandi gafite ibara ry'ubururu kandi gapfunyitse no mu ishashi.

Umukobwa wo mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ari kunywa amazi meza ari mu icupa ryabugenewe.

Ibyo kurya bitandukanye, byifashishwa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, harimo urusenda, inyanya ndetse n'imbuto, avoka, amazi yo kunywa, hariho kandi n'igikoresho gifite ibara ry'umukara cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane iy'akaboko.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi uryamye ku gitanda, ufite ikibazo ku kaguru, waje gusurwa n'abagabo bambaye amakoti.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aha twavugamo nk'umupira w'amaguru, akadenesi ndetse n'igikoresho kifashishwa kwa muganga, bapima uko umutima urimo gutera.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri makumyabiri n'itanu, ari gukorera imyitozo ngororamubiri hasi kumukeka mu cyumba kisanzuye gifite inkuta ziteye irangi ry'umweru ndetse n'amadirisha maremare.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo umutegarugori uri guhabwa serivisi n'umukobwa wambaye imyenda y'imikara.

Muganga wambaye imyenda y'akazi ndetse ufite n'ibikoresho byabugenewe, arimo gupima umurwayi ku maguru ye, cyane cyane ku mavi areba ko nta kibazo cy'amagufa afite.

Umwe mu bari bari mu irushanwa apfukamye hasi, aho iruhande rwe hariho abaganga bashinzwe kumwitaho bari kumubaza uko amererewe, uwari uri mu irushanwa yambaye kasike imurinda kwangiririka umutwe.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi, k'amaboko magufi, afashe mu ntoki ze, umupira wo gukina, wanditseho kane, uri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'isine.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye kandi bigezweho, harimo nk'ibyifashishwa mu kunanura amaguru ndetse n'amaboko.

Igikoresho cyagenewe gufasha abantu bafite ikibazo ku rugingo rw'akaguru, twavuga nk'imvune, gikozwe mu byuma byabugenewe.

Ibikoresho bitandukanye birimo nk'amavuta ndetse n'amavitamine yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu gakarito kabugenewe, kifashishwa iyo hari gutangwa ubuvuzi bw'ibanze.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, afashe agatambaro agashyize ku kaboko k'iwe kari ri mu ibara ry'ubururu aho hejuru yako hari ikiganza.

Umuganga ukora ku kigo nderabuzima, arimo gukoresha imyitozo ngororamubiri umurwayi waje ubagana, kugira ngo amunure imitsi y'akaguru. Umurwayi kandi aryamye ku gitanda cyabugenewe.

Icyapa kiriho imyitozo ngororamubiri yifashishwa mu kugira ngo uwabaswe n'ibiyobyabwenge agarure ubuzima buzira umuze, gifite irangi ry'umuhondo, hejuru yaho hari amagambo ari mu ibara ry'umukara yandikishijwe ibara ry'umweru.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye bigezweho kandi by'ikoranabuhanga, kirimo umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse n'agapantaro k'umukara n'inkweto z'umukara, ufite umupira w'amaboko mu ntoki ze, arimo gukora imyitozo.

Igikoresho cyagenewe kwifashishwa mu bintu bitandukanye, kirinda ivi kwangirika gikozwe muri pulasitiki, gifite kandi ibara ry'umukara.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu ari gukora imyitozo ngororamubiri ku mazi, yambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, aho afashe akaboko kamwe ari kugakoza mu bitugu bye, akandi kaboko gafashe ku nkokora.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima abarwayi indwara zitandukanye, cyane cyane izo mu mubiri kirimo kandi akabati.

Umuganga wabyize neza kandi ubizobereye, arimo gukorera ubuvuzi ngorangingo umutegarugori waje amugana, aho arimo kunanura imitsi y'amaguru.

Umuhungu arimo kuvura umukobwa ikirenge, aho umukobwa yicaye ku ntebe yabugenewe ifite umufariso w'umukara, ari mu cyumba kandi kirimo ibindi bikoresho nk'utubati n'ibindi.

Umugabo ari guha ubutabazi mugenzi we bari barimo gukinana umupira w'amaguru aho arimo kumukanda mu mavi aho yagize ikibazo cy'imvune.

Amazi yo kunywa ari mu icupa ryabugenewe, iruhande rwayo hariho imbuto ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari kandi na metero.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kandi kigezweho, kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane iyo bakora imyitozo igamije gukuraho inda byoroshye.

Agakapu batwara mu ntoki karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, aha twavugamo nk'ipamba ndetse n'imiti ivura ibisebe.

Ikirango kigaragaza serivise yo kwa muganga ishinzwe kwita ku bice by'umubiri w'abantu cyane cyane imitsi.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, ari gukora imyitozo ngoramubiri inanura imitsi y'amaguru, yambaye isengeri y'umukara, ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru.

Abagabo babiri bambaye amajire y'umutuku; bateruye mu ntoki zabo umugabo wahuye n'ikibazo cy'imvune mu kaguru, aho inyuma yaho hari abandi bantu bari kubitegereza.

Igikoresho cyo kwa muganga cy'ikoranabuhanga kandi kigezweho, cyifashishwa n'abaganga b'inzobere kandi babyigiye mu gupima imiterere y'umutima.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umutuku, aho amaboko yiwe afashe ku mano.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'umweru, afashe agatambaro, agashize ahagana ku nkokora, kugira ngo akangure imitsi y'akaboko.

Umutegarugori uri hagati y'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongo itatu n'itanu, yicaye ku mukeka, imbere ye hari imashini, iruhande rwe hari icupa ry'amazi, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, ari gukora imyitozo ngororamubiri aho akaguru kamwe kari inyuma akandi kari imbere ndetse amaboko ateretse hasi ku butaka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga batatu ndetse n'abarwayi, kirimo kandi n'ibikoresho bitandukanye, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibitanda, ndetse n'ibindi.

Umugabo ari mu cyumba hamwe na muganga aho ari kuvurwa imvune yagize ku kaguru, yicaye ku gitanda cyabugenewe. Bari mu cyumba kandi kirimo ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Umukozi ukorera abantu ubugororangingo arimo guha serivice umusore waje amugana, wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara aho arimo kumunanura imitsi y'amaguru, umusore kandi aryamye ku gitanda cyabugenewe.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amababi ari mu ishusho ya mpande eshatu, cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye cyane cyane ubwa gakondo, mu kuvura indwara nyinshi kandi zitandukanye.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amababi ari mu ishusho mpande eshatu, cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, giteye ahantu mu bitaka bifasha kugira ngo gikure neza.

Ikirango kigaragaza ubwoko bw'amavuta bwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane mu buvuzi bwa gakondo, harimo amavuta yo kwisiga arinda kandi akanavura indwara z'uruhu ndetse n'umuti uvura indwara zo mu kanwa n'izindi.

Amavuta atandukanye yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu harimo: nk'ibiheri, ubushita ndetse n'izindi zishamikiyeho.

Imeza iriho udukombe tugiye dutandukanye, turimo ibyo kurya bitandukanye, twavugamo: nk'ibirayi ,amashaza, amateke, ndetse kandi hari n'ikiganza cy'umuntu giterutse ku meza gisigatiye imbuto.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ishinzwe kwica udukoko tugiye dutandukanye, aha twavugamo nk'amasazi, imibu ndetse n'utundi nkatwo.

Igihingwa giteye ahantu ku butaka gifite indabo z'umuhondo ndetse n'amababi y'icyatsi, kigenda gikururuka hasi ku butaka kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo indwara z'uruhu.

Umuti w'amavuta akozwe mu gikakarubamba, wifashishwa cyane cyane mu buvuzi bwa gakondo, uvura indwara zitandukanye z'uruhu, upfunyitse neza mu gacupa gafi k'umuhondo gafite umufunikizo w'umutuku.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amababi ari mu ishusho ya mpande eshatu, kiri mu ruzitiro ahantu hari itaka ryinshi, aho bakifashisha bakora ibintu bitandukanye cyane cyane mu buvuzi.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, navugamo nk'izo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu bishoboka ko ari ukuvura indwara y'impiswi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo mu gukora ndetse imiti itandukanye harimo nk'imiti ivura indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero.

Ikirango cy'ikigo nderabuzima cy'Akagera, gifite ibara ry'igitaka cyererutse, kiri mu ishusho y'inzovu ihagaze ku maguru yayo abiri.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'amababi afite ishusho y'ikizeru, gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, havurwa indwara zitandukanye twavugamo nk'inindwara zo mu kanwa, ndwara zo mu nda, ndetse n'ikibazo cy'uruhu.

Ikiganza cy'umuntu, gifashe amababi y'ikimera gifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'amababi afite ishusho rya mpande eshatu, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igitiritiri cy'ikimera cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo cyitwa umuharavumba, kivura indwara zitandukanye harimo nk'indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Umuti ukozwe mu buki buturuka ku nzuki buvura indwara zitandukanye z'uruhu ndetse n'izo mu nda yapfunyitse mu gacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru ndetse n'umuhondo.

Umuti wifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo, ukozwe mu kimera k'igikakarubamba, upfunyitse mu gacupa gafite ibara ry'umweru, aho hejuru yaho hari ishusho y'umuntu uri guseka agaragaza amenyo ya ruguru.

Ikimera cy'icyatsi cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kiri ahantu hari ibitaka bisashijweho ibyatsi byumye hejuru.

Abakerarugendo bari hagati ya batandatu ndetse n'umunani bagiye gusura umugezi utemba uri ahantu mu ishyamba rinini.

Ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu, ifunyitse mu ducupa twabugenewe tuyirinda kwangirika.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ivura indwara zitandukanye, indwara z'uruhu indwara z'ubuhumekero ndetse n'indwara zo mu nda, iri mu tubati twayo twabugenewe aho ibikwa.

Umuti wabugenewe wica udukoko, wifashishwa mu gukaraba intoki uri mu icupa rifunze neza n'umufuniko w'umweru.

Umuti wifashishwa mu kwica udukoko harimo nk'imibu, amasazi, uri mu gacupa k'umuhondo gafite umufunikizo w'umutuku.

Icyumba kirimo abantu babiri, umuganga wambaye umwenda w'akazi, kirimo kandi ameza ndetse n'utubati twagenewe kubikwamo imiti, gifite inkuta zifite irangi ry'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ikimera gifite ibura ry'icyatsi ndetse n'amababi mato mato, ari mu ishusho mpandeshatu giteye ku butaka buriho utubuye duto twinshi cyane.

Imiti gakondo ipfunyitse mu dukarito duto duto, tugizwe n'ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku, duturuka mu kigo ''Alliance Global''; twifashishwa mu kuvura indwara z'akanyabugabo.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amababi afite ishusho rya mpande eshatu, kifashishwa mu buvuzi mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'indwara zifata uruhu, indwara zo mu nda, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukana.

Amavuta meza apfunyitse mu dukoresho twabugenewe tuyarinda kwangirika yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu zigiye zitandukanye, aha twavuga nk'indarara zifata mu maso ndetse no ku bindi bice by'umubiri.

Imiti ikozwe mu mwimerere w'ibimera, yifashishwa cyane cyane mu buvuzi bwa gakondo, iteretse mu kabati kabugenewe, ipfunyitse kandi mu icupa rya parasitiki riyirinda kwangirika.

Ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye bwifashishwa mu buvuzi hakorwa imiti igiye itandukanye, harimo nk'imiti ivura indwara zo mu kanwa, imiti ivura indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amababi ari mu ishusho ya mpande eshatu, kiri mu idebe ririmo itaka rikirinda kwangirika ndetse no kugirwaho ingaruka n'izuba. iryo debe kandi riteretse hasi ku butaka. Hari n'andi madebe menshi harimo icyo kimera.

Igihingwa gifite amababi y'icyatsi gitoshye ndetse n'ishusho ya mpande eshatu, gikorwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu.

Ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ariko cyane cyane ubuvuzi bwa gakondo, gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amababi ari mu ishusho ya mpande eshatu.

Ikimera cy'umuharamvumba kfashishwa mu buvuzi gakondo ndetse n'ubuvuzi bugezweho, gikorwamo imiti irwanya indwara zitandukanye aho twavugamo nk'indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi nyinshi.

Icupa ririmo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, uvura indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, indwara z'ibijyanye no mu mutwe ndetse n'indwara z'ubuhumekero.

Umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, cyane cyane mu kwica udukoko dutandukanye aha twavugamo nk'amasazi ndetse n'imibu.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ikozwe mu mwimerere w'ibimera, ivura indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu kanwa, indwara zo mu nda, ndetse n'indwara z'uruhu.

Imiti igenewe kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara z'imyororokere ndetse n'izindi, ipfunyitse mu ducupa twayo ndetse n'ibikarito byabugenewe biyirinda kwangirika ndetse no guhura n'izuba n'ubukonje.

Ahantu mu ishyamba hari ibimera bitandukanye by'amoko atandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, mu gukora imiti ivura indwara zirimo iz'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda.

Ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zifata umuntu, harimo n'indwara zifata mu buhumekero, indwara zo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu.

Amavuta meza yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu cyane cyane izo mu maso, arinda ibiheri ndetse agakura n'ibihuru mu maso, apfunyitse mu gacupa kabugenewe, ndetse iruhande rwayo hari amasura y'abantu batatu batandukanye.

Abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano y'icyatsi hejuru ndetse n'ababahagarariye, bari mu murima uteyemo ibikakarubamba nk'umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Inyuma yabo hari ibihuru, ibiti, bigaragara ko ari ahantu hahingwa.

Imiti gakondo ikozwe mu byatsi byumye, ipfunyitse mu ducupa twabugenewe tuyirinda guhura n'amazi ndetse no kwangirizwa n'ibindi bintu byo ku ruhande.

Icupa ripfundikiye neza, ririmo umuti wica udukoko dutandukanye nk'imibu, amasazi, ufite ibirango byanditse mu ibara ry'ubururu.

Umuravumba ni ikimera cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kivura indwara zitandukanye harimo nk'idwara zo mu nda, indwara z'uruhu, indwara zo mu kanwa ndetse n'izindi.

Imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda, indwara z'imitekerereze cyangwa se indwara zo mu mutwe, zipfunyitse neza mu bikoresho byabugenewe biyirinda kwangirika.

Umuharavumba uri ahantu mu busitani burimo n'izindi ndabo bifashisha mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda.

Icupa rifite ibara rya oranje ndetse n'umweru, ririmo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, uvura indwara zo mu nda.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ririmo abagabo barimo gushaka ibyo kurya ndetse no kwahira ibyatsi.

Imiti itandukanye yiganjemo ikoze mu bimera hifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara zo mu nda, indwara z'uruhu ndetse n'izindi nyinshi.